Umuhanda w'umukara aho uganisha ku bitaro byitwa Sehashiyibe, biri mu karere ka Huye, aho hahagaze umuntu uhagarika imodoka kugirango babanze basuzume icyo uje uhakora, hakaba hari imodoka nyinshi ziparitse.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi biganjemo abasore n'inkumi, bitabiriye kureba umukino w'intoki wa basiketibolo. Uyu mukino uri kwamamarizwamo ibigo byinshi; harimo nka : ejo heza, ndetse na saniramu.